Ubwishingizi butangwa n'ikigo cyitwa Radiant, gikorera mu mujyi wa Kigali no mu nkengero, butangwa ku nzu cyangwa imitungo yindi itimukanwa, mu gihe yagize impanuka bakaba baguha ingurane.

Zikozwe mu ruhu zikomeye cyane, zikoreshwa amaboko, zikaba zitatseho udusaro twiza cyane turimo ibara ry'icyatsi kibisi, umweru, umuhondo, ubururu, umutuku, n'ayandi menshi.

Inzu ikorerwamo imideri igiye itandukanye idodwa mu bitenge ndetse ikaba ikorerwa mu gihugu cy'u Rwanda, imbere hahagaze igishushanyo cyambitswe imyenda.

Inyubako icururizwamo imyenda yo kwambara harimo: imipira ,amapantaro n'ibindi bitandukanye . Hakaba harimo imyenda ivangavanze cyane cyane iy'abagabo ndetse n'abakobwa, ikaba imanitse harimo amabara y'umuhondo n'andi menshi atandukanye. Ndetse wanahakura imyenda yo kujyana mu myitozo ngororamubiri.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibintu bigiye bitandukanye by'imyambaro y'abagabo, abagore, abasore, ndetse n'inkumi, ipanze neza ku murongo, ndetse ikaba hariho amatara yabugenewe.

Imodoka nziza iri mu ibara ry'umukara igurishwa iri mu bwoko bwa toyota, ikaba igurishwa igiciro cya miliyoni mirongo itatu na zirindwi, z'amafaranga y'u Rwanda.

Abagabo babiri bamamaza ndetse bakanagurisha imodoka zigiye zitandukanye zitwara abantu ndetse n'ibintu hakurya no hakuno. Bafite icyapa mu ntoki cyanditseho akagera.

Igishoramari kitwa Akagera, gicuruza imodoka nziza kandi zigezweho zikomeye zo mu bwoko bwa Toyota, hari abagabo babiri bari kwamamaza, bafite icyapa mu ntoki cyanditseho izina ry'uruganda.

Ikigo kigali cyo kugurisha ibinyabiziga, kigizwe n'amazina y'uko cyitwa ndetse kikaba kigaragaramo umuguzi n'uwayiguze, umuguzi n'uyigurishije, hakaba harimo n'imodoka iparitse.

Ubucuruzi icururizwamo ikinyobwa cy'amata, akorwa n'uruganda rw'inyange, hari icyuma cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu kuyabika no kuyatunganya, ndetse no kuyakonjesha akagumana ubuziranenge kandi akabikwa igihe kirekire.

Ibinyobwa binyuzwa mu nganda bikongerwamo intungamubiri zigiye zitandukanye, bigafungwa mu macupa yabugenewe abirinda kwangirika ndetse bikaba byabikwa igihe kirekire bidapfuye. Harimo amata n'amazi y'uruzi rugari rwa Nili.

Umugore uri ahafatirwa amafunguro, ku ruhande rwe hari icyuma cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu gukonjesha ibinyobwa bitandukanye, harimo amata, amazi n'ibindi.

Harimo ibinyobwa by'amata hakaba hari icyuma cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu kuyabika neza mu buryo bugezweho buyarinda kwangirika ndetse akaba akonje.

Ikiribwa kiryoshye kandi gikungahaye ku ntungamubiri gikozwe mu ifarini, amagi, amata, amazi ndetse n'isukari, kikaba kiboneka ahantu hose hagiye hatandukanye.

Umucuruzi ufite inzugi ziri mu ibara ry'ubururu ndetse ku nkuta hasize ibara ry'umweru, hacururizwa ibinyobwa bidasembuye ndetse n'ibiribwa byakozwe mu ifarini, amagi ndetse n'amata.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibiribwa bikorwa mu ifarini amagi, amata, amazi, ndetse n'isukari bikungahaye ku ntungamubiri, bacuruza kandi amata ari mu cyuma cy'ikoranabuhanga kiyakonjesha.

Ikoranabuhanga wakoresha mu kuzigamira umwana wawe, mu gihe cy'izabukuru ndetse bikamufasha no mu gihe cy'amashuri, wifashishije telefone yawe igendanwa ukaba washyiraho amafaranga.

Uburyo wakoresha bw'ikoranabuhanga wishyirara, wohereza, wakira ndetse ugura ibintu bigiye bitandukanye nk'umuriro cyangwa ifatabuguzi ryo guhamagara wifashishije igikoresho cy'ikoranabuhanga kigendanwa.

Iri ni ifatabuguzi ry'ikigo gishinzwe umuyoboro mugari w'itumanaho mu Rwanda Airtel, bwerekana uko wagura umuriro ukoresheje igikoresho cy'ikoranabuhanga, ukanze akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri akanyenyeri kane, akanyenyeri rimwe urwego.

Urupapuro rw'inyemezabwishyu, rukaba rugizwe n'ibirango bya Rwanda reveni, amazina y'uwishyuye, ikigo akorera, ndetse n'umubare w'amafaranga yishyuye.

Umuhanda ugendwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bigiye bitandukanye bitwara abantu ndetse n'ibintu, hari gucamo imodoka y'umweru ndetse ku nkengero hari akayira k'abanyamaguru n'inzu ndende y'igorofa.

Mu iguriro cyangwa ahafatirwa amafunguro, hari imitako igizwe n'indabo, ibiti n'ibindi byinshi kandi byiza, hateretse amasahani ariho icyo kurya ndetse n'ibikombe birimo icyo kunywa.

Uruganiriro, ku meza hatereke igikoresho cy'ubugeni kirimo indabo z'icyatsi kibisi, ku ruhande hari icyuma cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu gukusanya ndetse no gutangaza amajwi n'amashusho.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibikoresho bigiye bitandukanye by'ubugeni, bigizwe n'intebe z'imifariso, ibitanda, utubati, amamatora n'ibindi byinshi cyane.

Ahantu nyaburanga hari ubusitani butandukanye burimo utwatsi duto duto turi mu ibara ry'icyatsi kibisi n'udutebe tubaje hari kandi umutaka abantu bicaramo bari kuganiriramo imbere yaho hari inzu y'igorofa.

Nyaburanga gishokerwamo n'abantu batandukanye, hariho ubusitani bwiganjemo indabo zirimo imikindo n'ibindi n'amazi bogeramo n'imitaka yo kuruhukiramo.

Inzu yubatse mu buryo bwiza kandi bunogeye buri wese, y'igorofa, imbere yayo hari ubusitani buteyemo indabo ziri mu ibara ry'umutuku, ndetse n'utundi tw'ibara ry'icyatsi kibisi.

Umuntu uri gutekera mu gikoni kigezweho, cyubatse neza, wambaye imyenda ifite isuku irimo ibara ry'umweru, ari gukata ibitunguru, imbere ye hari ibindi biribwa agiye kwifashisha ategura amafunguro.

Resitora isohokerwamo n'abantu b'ingeri zose hateguye neza ku meza hateretse udutambaro tw'umutuku ndetse n'indabo, hakaba hari n'intebe ziteye neza mu buryo bwiza.

Icyanya nyaburanga, kirimo ubusitani ndetse n'intebe zo kuganiriramo, ziri mu ibara ry'umutuku, hakaba kandi hari izindi ziri mu ibara ry'umukara.

Ibamo ubufasha bw'igiye bitandukanye, nk'ibigo by'imari bibika amafaranga, bikaguza ndetse bikanaguriza, hakaba kandi hatangirwa serivise z'irembo nko kwaka ibyangombwa n'ibindi.

Ahatangirwa ubufasha ku bijyanye n'irembo ndetse n'uburyo wakwishingiramo, ukaba wakohereza ukabika, ukabikuza amafaranga wifashishije ikoranabuhanga rigezweho.

Isoko ricururizwamo imyambaro y'abagore ndetse n'abagabo, ku mpande hagiye hari abadozi bafite imashini zabugenewe, zifashishwa mu kudoda imyenda.

Umuhanda ugendwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu. Imbere hari igorofa ryubakishije amabuye ndetse risize n'amarangi, hariho n'ibirahure byijimye.

Abagore bari mu isoko ricururizwamo ibintu bigiye bitandukanye nk'intoryi, inyanya, ibishyimbo by'ibitanore ndetse n'ibindi byinshi byiganjemo imboga n'imbuto bikungahaye ku ntungamubiri.

Isoko ricururizwamo ibiribwa bigiye bitandukanye, harimo ibitoki, inyanya, imboga zigiye zifite ubwoko bunyuranye ndetse n'imbuto nk'imineke n'amatunda.

Iduka ricururizwamo ibiribwa bigiye bitandukanye imboga, ndetse n'imbuto, ibyubaka umubiri n'ibirinda indwara, harimo: ibitoki, inyanya, amashaza, n'ibindi.

Saro irimo bikoresho by'isuku ndetse n'imyambaro igiye itandukanye, hamanitse ibikapu na byo bicuruzwa by'umukara, muhondo, kaki ndetse n'ibindi byinshi, hari abacuruzi bari gucuruza.

Isoko ricururizwamo imboga ndetse n'imbuto, bikungahaye mu byubaka umubiri, ibitera imbaraga ndetse n'ibirinda indwara, harimo imineke, inyanya, inanasi, avoka ndetse n'ibishyimbo by'ibitonore.

Isoko ricururizwamo imboga n'imbuto, aho tubonamo, ibitunguru, inyanya intoryi, indobo ndetse n'abari gucuruza, n'abaguzi batandukanye. Biragaragaramo nk'isoko ricucitse ririmo ibintu byinshi.

Inyubako icururizwamo imboga n'imbuto, ziganjemo amareti, ibipavuro, inyanya, amakokombure, n'ibindi bitandukanye.

Isoko ry'ibiribwa ricururizwamo ibintu bigiye bitandukanye, harimo ibirungo bishyirwa mu biryo by'indyoshya ndyo, hakaba harimo kandi ibitunguru, inyanya n'izindi mboga.

Habarizwamo imyambaro y'abana, abagore n'abakobwa, abasore, ndetse n'inkumi, idoze mu bitenge by'amabara menshi agiye atandukanye, umuhondo, umukara, umutuku, ubururu, n'ayandi.

Isoko ricururizwamo ibiribwa bigiye bitandukanye, byiganjemo imboga ndetse n'imbuto zitera imbaraga bikanarinda indwara mu mubiri w'umuntu. Bigizwe n'inyanya, amashu, karoti imiteja n'ibindi.

Ikigo k'igihugu gishinzwe umuyoboro mugari w'itumanaho mu Rwanda MTN, wambaye impuzankano iri mu ibara ry'umutuku, ari gusobanurira umuturage waje umugana ku birebana n'ikoreshwa ry'ikoranabuhanga.

Umutaka w'umukozi w'ikigo cy'itumanaho, umuyoboro mugari mu Rwanda MTN, wambaye impuzankano iri mu ibara ry'umuhondo, ari gutanga ubufasha ku birebana no kohereza, kwakira amafaranga, wifashishije ikoranabuhanga.

Uburyo bwashyizweho n'ikigo cy'igihugu gishinzwe umuyoboro mugari w'itumanaho mu Rwanda, wakwishyura wifashishije telefone yawe. Ukaba washyiramo nimero y'umucuruzi mirongo irindwi n'icyenda, mirongo icyenda makumyabiri.

Inyubako itangirwamo ubufasha ku bijyanye n'umuyoboro w'itumanaho mugari mu Rwanda MTN, igizwe n'amabara y'umuhondo ndetse n'umukara, hanze hakaba hari ibyuma bisakaza amajwi.

Muba ubufasha bw'umuyoboro mugari w'itumanaho mu Rwanda emutiyene, hari abakozi bambaye impuzankano y'akazi iri mu ibara ry'umuhondo, ndetse n'abaje kubasaba ubufasha ku bijyanye no korohereza no kwakira amafaranga.

Ikinyabiziga gitwara ibiryo ku babitumije aho ukoresha igikoresho cy'ikoranabuhanga kigendanwa cya telefone ukaba watumiza ibyo kurya utavuye aho uri ukabyishyura wifashishije ikoranabuhanga.

Ikigo cy'umuyoboro mugari w'itumanaho mu Rwanda MTN, kiri ibara ry'umuhondo ndetse n'umukara, gitanga ubufasha mu kohereza, kwakira, kubika no kubikura amafaranga utavuye aho uri.

Ikigo cy'itumanaho, umuyoboro mugari mu Rwanda MTN, yambaye impuzankano y'akazi, iri mu ibara ry'umuhondo, ari gusobanurira umuyobozi w'ikinyabiziga ibirebana n'ibyo bakora.

Akazu gato cyangwa ishami ry'ikigo cy'igihugu cy'umuyoboro mugari ushinzwe itumanaho mu Rwanda MTN,gatanyurwamo ubufasha bugiye butandukanye nko kubitsa, kubikuza no kohereza amafaranga nta kiguzi.

Akazu gato k'ishami rishinzwe gutanga ubufasha bw'umuyoboro mugari w'itumanaho mu Rwanda MTN kari mu ibara ry'umuhondo, harimo abakozi bagufasha kumenya uburyo wakoresha ikoranabuhanga mu kubitsa no kubikura amafaranga.

Bari kwishyura abamotari bose bambaye udupfukamunwa, bifashishije ibikoresho by'ikoranabuhanga bigendanwa mu ntoki, aho woherereza undi amafaranga bitagusabye kuyayamuha mu ntoki.

Uburyo bw'ikoranabuhanga wifashisha ukaba watumiza ibyokurya bakabikugezaho mu buryo bwizewe kandi vuba ku giciro gito urwo ruganda rwitwa safi.

Umukozi w'ikigo gishinzwe kugemura ibyo kurya aho bitumiza wibereye iwawe bikakugeraho kandi ku buntu hariho uzanye ibiryo ndetse iki kigo cyitwa Kasha babikugezaho muuburyo bwizewe kandi bufite umutekano.

Igikoresho gishyirwamo ibyo kurya kiri mu ibara ry'umutuku aho umuguzi atumiza bimwe mu bikoresho cyangwa ibiribwa yibereye iwe yifashishije ikoranabuhanga rigezweho.

Urubuga ruhuza umuguzi n'umucuruzi bakagana ku biciro by'ibiribwa bigiye bitandukanye, bifashishije ikoranabuhanga rigendanwa, haba hariho imboga imbuto ndetse n'ibindi biribwa bitandukanye.

Uburyo bugezweho wifashishwa ukoresheje ibikoresho by'ikoranabuhanga nka mudasobwa cyangwa telefone, ukaba wasaba cyangwa ukiyandikisha, unyuze ku rubuga rw'irembo.

Inzu yubakishije amakaro n'ibyuma bikomeye ndetse ifite amasuku iherereye mu mujyi wa Kigali mu gace ka Kabeza, iri kugurishwa miliyoni mirongo irindwi n'eshanu z'amanyarwanda.

Inzu nziza cyane isize amarangi y'umukara ndetse n'umutuku, iherereye mu Mujyi wa Kigali, igurishwa miliyoni mirongo irindwi n'eshanu z'Amanyarwanda, ku nkengero ikaba ifite ibiti by'ibidukikije.

Ikodeshwa iri mu mujyi wa Kigali iherereye i Kanombe, ikaba yubatswe mu buryo bwiza kandi bugezweho, ikaba ifite, ibyumba bine by'uburyamo ndetse n'ubwogero butatu bwa kizungu.

Inzu iri mu Mujyi wa Kigali amafaranga y'u Rwanda ibihumbi magana ane, isize amarange y'umutuku wijimye ndetse n'umuhondo, hakaba harimo uburyamo bubiri n'ubwogero bubiri.

Inyubako ikodeshwa ibihumbi magana atandatu y'u Rwanda ku kwezi, iherereye mu mujyi wa Kigali mu gace ka Kimironko, ikaba ifite uburyamo bune ndetse n'ubwogero butatu.

Inzu iri mu gipangu yubatse neza kandi iri mu mutekano, ikodeshwa amafaranga y'u Rwanda ibihumbi magana abiri ndetse ikaba harimo ubusitani burimo indabo.

Inzu iri mu mujyi wa Kigali iherereye Kimironko ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atatu y'u Rwanda ndetse ikaba ifite uburyamo butatu n'ubwogero bubiri, ikaba yubatse neza mu buryo busukuye kandi burambye.

Inzu ikodeshwa ifite umutekano ukomeye, iherereye mu mujyi wa Kigali ndetse ikaba yubatse neza ifite amarange hakaba harimo ubwogero bubiri ndetse n'uburyamo bubiri.

Inzu icururizwamo ibikoresho by'ubugeni n'ubukorikori, bidozwe mu bintu bigiye bitandukanye nk'impu, amasaro ndetse n'ibitenge bikorewe mu Rwanda hifashishijwe amaboko.

Hahahirwamo imyambaro y'abagore, abagabo, abana, bato abasore ndetse n'inkumi, hamanitse amakanzu meza cyane afite amabaragi atandukanye, ndetse hakaba hari n'indi myenda iri mu bishashi byabugenewe.

Isoko ricururizwamo ibiribwa bigiye bitandukanye byanyujijwe mu nganda, bigatunganywa neza, bigashyirwa mu bikoresho byabugenewe bibirinda kwangirika, bikabikwa igihe kirekire.

Mu buzima bw'umuntu habamo gukenera kwambara imyambaro myinshi itandukanye ndetse n'inkweto aba bagabo babiri, umwe yambaye ishati y'umweru, ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umweru undi yambaye umupira w'umukara n'ipantaro ya kacyi ndetse n'inkweto z'igitaka.

Ikirango kigaragaza arayesesibi. Ikigo gikuru cy'ubwishingizi. Kikaba kigizwe n'amabara y'ubururu, umweru, umuhondo, ndetse n'amagambo yacyo mu magambo arambuye.

Umugabo uri gusobanura ibijyanye n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubwishingizi n'ubwiteganyirize ku zabukuru ndetse n'ibindi cyitwa ejo heza, ari imbere y'itangazamakuru ndetse afite icyuma cy'indangururamajwi.

Ikarita y'ubwisungane mu kwivuza ya buri munyamuryango ya mituweli, yifashishwa ku bigo nderabuzima bigiye bitandukanye mu gihe cyo kuvurwa aho umurwayi ayitwaza.

Isoko ricuruza ibiribwa n'ibinyobwa byanyujijwe mu nganda bigafungwa neza mu bikoresho byabugenewe bibirinda kwangirika ndetse bikabikwa igihe kirekire.

Inyubako icururizwamo ibikoresho byo mu rugo nk'amasahani, ibirahure, amafuru yo kotsamo ibintu bitandukanye, hakabamo ibishyushya amazi, ibishyushya ibintu bitandukanye yaba ibyo kurya, ibyo kunywa bitandukanye ndetse bakaba bafite n'ibyo kunywa bidasembuye by'imitobe.

Icururizwamo ibiribwa bigiye bitandukanye byanyujijwe mu nganda bigafungwa neza mu bikoresho byabugenewe birinda kwangirika ndetse bikabikwa igihe kirekire.

Isoko rinini cyane ricururizwamo ibinyobwa bidasembuye ndetse n'ibisembuye n'ibindi biribwa byanyujijwe mu nganda bikongerwamo intungamubiri zigiye zitandukanye ndetse bigafungwa mu buryo bwabugenewe.

Inyubako nini irimo ibintu bitandukanye ibyo kurya byo kunywa ibyo gukaraba nk'amasabu ni amavuta n'ibindi byinshi bitandukanye ibyo kwandikamo amakaramu, ibintu bitandukanye byo mu ishuri, ibitabo ndetse n'ibindi bivangavanze ni inyubako irimo ibintu bitandukanye aho wagera ukahasanga buri kimwe ushaka.

Inzu icururizwamo ibyo kurya n'ibyo kunywa bidasembuye, hakaba harimo umuntu uje guhaha, ndetse washyize imbere ibyo amaze guhaha kugira ngo babibarire, yishyure.

Isoko ricururizwamo ibicuruzwa byanyujijwe mu nganda bigiye bitandukanye bikungahaye ku ntungamubiri, bigafungwa neza mu bikoresho byabugenewe, bibirinda kwangirika ndetse bikaramba.

Inyubako icururizwamo ibyo kurya bitandukanye cyane cyane iby'imboga ndetse n'imbuto harimo nk'amashu, amapavuro, ibitunguru ndetse n'ibindi bitandukanye.

Isoko rya kijyambere ricururizwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, byanyujijwe mu nganda bigatunganywa bikongeramo intunganyamubiri zigiye zitandukanye, zigafungwa mu bikoresho byabugenewe bibirinda kwangirika.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibicuruzwa bya kijyambere byanjijwe mu nganda, bikongerwamo izindi ntungamubiri zigiye zitandukanye ndetse bikaba bifuzwe neza, mu buryo bwabugenewe bubirinda kwangirika.

Isoko ricuruzwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye byanyujijwe mu nganda bigafungwa neza mu bikoresho byabugenewe bibirinda kwangirika ndetse bibikwa neza igihe kirekire kandi kirambye muburyo bw'isuku kandi bwizewe.

Ibicuruzwa bigiye bitandukanye, byanyujijwe mu nganda bikongerwamo bimwe mu ntungamubiri, ndetse bigafungwa neza mu buryo bunogeye ijisho kandi bubirinda kwangirika bikabikwa igihe kirekire.

Isoko ricururizwamo ibiribwa ndetse n'ibinyobwa byanyujijwe mu nganda bikongerwamo izindi ntungamubiri, zigiye zitandukanye bigafungwa neza mu bikoresho byabugenewe bubirinda kwangirika, aho bishobora kubikwa igihe kirekire.